Abaserikarite n'abapolisi ni beza, iyo umuntu afite ikibazo baragikemura, kandi bacunga n'umutekano mu gihugu. Igihugu kikabaho gifite amahoro.

Abapolisi cyangwa abasekirite iyo babarindishije baraharinda, kandi bakarinda neza, kandi iyo uje ubaha amafaranga maze bakiteza imbere.

Abapolisi bari gutanga udukarita iyo ufite agakarita uragenda bigufasha kubona imodoka vuba, kandi ukayitangira amafaranga make kubera ko uba ufite inuza agakarita.

Abasekirite cyangwa se abapolisi baba basa neza bahorana isuku, iyo ubabonye urabamenya, kandi abapolisi barakundana, bagira n'urukundo.

Abasekerite n'abapolisi turabakunda, iyo bagiye, babaha imbunda, bakabaha n'aho barasa, babona bari kubishobora, babaha akazi kubera ko baba batsinze.

Abasekirite ni beza, iyo wabaririndishije, bararinda neza, cyane cyane iyo bari kurinda kuri banki, barareba iyo muntu yibye nk'amafaranga, baba bari kureba maze bakayamwaka.

Abaporisi n'abasekirite ni beza, iyo bagiye kujyana umuntu warwanye, babanza bamugira inama yananirana bakamujyana. Kandi abaporisi bacunga n'umutekano mu gihugu.

Abapolisi cyangwa abasekeriti turabakunda ku kubera bakunda gutabara, iyo hagize ahantu hasha kubera gaze baragenda bakahatabara bakahazimya.

Imbwa ni nziza, iyo uzijyanye mu rugo abantu baza ku kwiba, imbwa zikamoka bakagenda bari kwiruka, kandi imbwa ziduha n'amafaranga, iyo uzijyanye ku isoko bakazigura bakaguha amafaranga.

Abasekirite n'abapolisi turabakunda, bagira abantu inama nziza, iyo muntu yarwanye, babanza bamugira inama mbere yo kumujyana, babona ananiranye nibwo bamujyana, ariko niwe uba wabiteye.

Gufora umuheto n'ibintu byiza byakundwaga n'abantumi benshi kubera ko umuheto ari ikintu kiza kandi cyaba kiboroheye kukibona, kandi umuheto iyo wawufoye neza ubona n'amafaranga.

Ingoma ni nziza, ni bimwe mu bikoresho gakondo byakundaga kwifashishwa, kandi iyo umuntu yabaga yakoresheje n'ubukwe bakomaga ingoma, abashoboye kubyina maze bakabyina.

Kubyina ni byiza biduha amafaranga, kandi iyo umuntu yakoresheje ubukwe aradutumira tukaja kubyina yo. Iyo wabyinnye neza n'abandi bajya baraguha amafaranga bakagutumira.

kubyina ni byiza, iyo bari kubyina turishima kandi iyo babyinnye neza babaha amafaranga n'abandi bakoresha ubukwe bakababwira bakaza bakabyina bakabaha andi mafaranga.

Uburo ni bwiza buradufasha iyo wabetesheje ifu y'igikoma, ugashiramo uburo, icyo gikoma kiba gifite intungamubiri kandi icyo gikoma kiba gisa neza kiba kinaryoshye.

Igisabo ni cyiza, kiradufasha. Ufata amata, ukayabuganiza mu gisabo, warangiza ukayacunda. Ayo mata abyara amavuta, amavuta maze ukayagurisha, ukazajya urayisiga.

Ufata amata ukayashyira mu gisabo, wamara kuyashyiramo ugacunda, wamara gucunda ugakuramo amavuta. Amavuta aba afite umwimerere mwiza kandi uhagije.

Intebe ya Kinyarwanda ni nziza, turayikunda. Iyo umuntu agiye nko guteka, ayicaraho kandi ntabwo imuvuna, kubera iba ari ngufi. Aratsa nta kibazo.

Ababyinnyi ni beza kandi baradushimisha iyo bari kubyina bambaye ibintu mu mutwe. Kandi biba binababereye babyina bari no guseka bari gushimisha abantu.

Imitiba ni myiza kubera ko ziradufasha iyo umuntu afite umutiba ashoramo inzuki. Izo nzuki zikabyara ubuki maze ubwo buki ukabugurisha.

Ingoma ni imwe mu bikoresho dukunda kwifashisha, iyo abantu bari kubyina bifashisha ingoma kugira ngo babyine neza, kandi biba bibabereye kubera baba bari kubyina bari no guseka.

Ababyinnyi ni beza, bambara neza kandi baba bambaye n'utuntu mu mutwe tuba tunababereye, iyo bari kubyina baba basa neza kandi babyina bishimye bari guseka.

Ababyi ni beza turabakunda, iyo umuntu yigunze akabona ababyinnyi bari kubyina, arishima kubera ko baba bari kubyina neza mu mico ya kinyarwanda.

Ibisero ni byiza babikamo ibintu, kandi iyo umuntu yakoresheje ubukwe bamujyanira mu gisero, bakamushiriramo ibigori, kandi biba ari byinshi.

Urusyo ni rwiza kandi ruradufasha iyo nta mafaranga ufite yo kujyana kubetesha, uragenda ugashyira ibyo kubeta ku rusyo ukabisya maze hakavamo ifu y'igikoma kandi inoze.

Ingoma iradufasha, iyo abantu bagiye kubyina bakoma ingoma maze bakabyina neza, kandi iyo uri gukoma ingoma neza umuntu uri kubyina ntabwo avunika.

Udukono ni twiza turadufasha, iyo umuntu agiye gutsimba ashyiramo ibishimbo maze agacanira, ibyo bishyimbo bishya vuba kandi biba biryoshye.

Umuzinga wadufashaga kunyweramo umusururu, wadufashaga no gukamira mo umutobe, tukawunywa uryoshe kandi ufite isuku usa neza.

Agakono ni bimwe mu bikoresho abantu bakundaga kwifashisha, bagatekagamo ibiryo, kandi byabaga biryoshye, bakagatekamo n'inyama, kandi izo nyama zabaga ziryoshye kuruta izo mu isafuriya.

Uburo ni bwiza turabukunda, iyo wabetesheje ifu harimo uburo, icyo gikoma kiba gisa neza kandi kiba kiryoshe, kandi kiba cyujuje intungamubiri.

Inka ni nziza, zimeze neza, bazitatse neza, banazambitse neza utuntu turazibereye, kandi ko turazibereye cyane, ziraberewe.

Umuzinga ni bimwe mu bikoresho bidufasha, iyo ushaka gukama umutobe ufata ibitoki ukabitara byasha ukabikamira mu muzinga ,ukabona umutobe umeze neza uryoshe .

umutiba w'inzuki ni mwiza uzana ubuki. Ufata umutiba ukawushyira mu giti maze icyo giti ukakireka ukazajya urajya gucunga hazamo ubuki ukabugurisha.

Ingoma ni imwe mu bikoresho bya kera, byaradufashaga, iyo umuntu yabaga yakoresheje nk'ubukwe, twajyanagayo ingoma, ababyinnyi bakaza bakabyina, ntabwo bahushanyaga kubera habaga hari ingoma.

Kubyina ni byiza biduha n'amafaranga, iyo umuntu yakoresheje ubukwe agatumira, tujyayo tukabyina, maze bakaduha amafaranga tukiteza imbere, tugateza imbere n'umuryango wacu.

Intara ni imwe mu bikoresho dukunda kwifashisha iyo umuntu ashaka kubetesha, afata intara maze akayigosoza ibyo bigori bigasa neza, akabigirira isuku.

Isekuru ni nziza idufasha gusekura imiti idufasha no gusekuriramo isombe, iyo nta mafaranga dufite inadufasha no mu bintu byinshi by'ingenzi.

Kubyina ni byiza, iyo umuntu ari kubyina, aba ameze neza, kandi aba akunzwe n'abantu benshi, kubera ko aba ari kudushimisha, kandi bamuha n'amafaranga, akiteza imbere cyane.

Ibisabo biradufasha, iyo habaye ubukwe abageni bafata ibisabo bagashyiramo amata maze bakayacunda, ayo mata akavmo amavuta, maze amavuta bakajya barayagurisha.

Uduseke ni twiza kandi uduseke turadufasha iyo umuntu agiye nko gusura ashyiramo imyaka maze rero akajya kumusura aba aberewe.

Kuboha ibirago ni byiza iyo umuntu ashaka kwicara afite ikirago arakizana akakirambura akakicaraho yarangiza yaba ashaka no kukiryamaho akaryama.

Uduseke n'itwiza twifashisha kandi tunaradukunda, kubera ko iyo ufite agaseke ushaka gusura umuntu umujyaniramo imyaka murako gaseke. Kandi agaseke ubikamo n'ibintu ukugira ngo imbeba zitaberya.

Isekuru ni nziza iradufasha, iyo umuntu nta mafaranga afite yo kubitesha isombe afata isekuru agashyiramo isombe akazisekura maze akaziteka.

Intore zirabyina iyo bagiye kwita ingagi zirabyina bakaziha amafaranga, niyo habaye ubukwe ziragenda zikabyina abantu bakishima cyane.

Udukuno ni bimwe mu bikoresho gakondo abakecuru bakunda kwifashisha, batsimbamo ibishyimbo kandi ibyo bishyimbo biba biryoshye kandi biba bifite vitamini nta nubwo bigaga.

Kuboha ibiseke ni byiza kubera ko ibiseke biradufasha. Iyo umuntu yakoresheje ubukwe, uragenda ukamujyanira mu giseke, cyangwa se umuntu waba ugiye kumusura, ukamujyanira mu giseke, uba umeze neza.

Umuzinga ni ikintu abantu bifashishaga bari gukama imitobe, kandi banabinyweragamo, urusyo barubeteragaho ifu y'igikoma, bakanywa igikoma kinoze kandi bacyibeteye .

Abacuruzi bacuruza inka biba ari byiza kandi birungura, iyo wagiye gucuruza inka ukazigira neza, ukazijyana ku isoko zifite isuku, abakiriya barazishimira bakazigura vuba.

Intara ni nziza iradufasha, ni kimwe mu'ibikoresho abahinzi bakenera iyo wasaruye, iyo ushaka gugosora imyaka yawe urayigosora ugakoresha iyo ntara.

Inka ni nziza tunarazikunda ziduha n'amata, ziduha n'ifumbire. Ariko iyo umuntu ashaka kuyigurisha ajya kuziragira maze rero zikarya zigahaga, zarangiza akazijyana ku isoko bamuha amafaranga menshi.

Kompiyuta ni nziza iradufasha. Iyo umuntu ayifite areba amakuru agezweho, kandi areberaho na filime, akoreraho n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Ikoranabuhanga ni ryiza, ryatugejeje ku iterambere ryiza, iyo umuntu afite terefone aragenda akajya gucuranga akumva amakuru agezweho.

Amatara yo ku muhanda ni meza kandi agira umumaro, iyo bwije abasambo batinya kwiba abantu kubera ko haba hari kwaka amatara, kandi amatara azanana iterambere.

Amapoto ni bimwe mu bikoresho bigeza umuriro ku rusengero. Iyo umuriro uri ku rusengero baba bashyushye, kandi bari kubyina bishimye kubera ko bari no gucuranga.

Abayobozi turabakunda, iyo nabo bagiye gusenga bajyamo maze bakicara, maze bakumva ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana riruta byose.

Abayobozi bo mu rusengero barihangana kandi bakadukunda, iyo umuntu yanasibye bajya kumusura bakamenya icyo yabaye kugira ngo bamusengere ,yaba yarwaye bakamusengera Imana ikamukiza.

Abayobozi bubatse urusengero rwiza cyane kandi bashyiraho n'amatara. Hajyaho iterambere ryiza kandi ryinshi. Abantu bajyamo bagasengeramo, bakumva ibyo imana ivuganye na bo.

Abayobozi b'urusengero bakunda no gukora amashuri impande y'urusengero rwabo, kugira ngo urusengero rutere imbere cyane. Iyo urusengero rufite ikigo, ruba rumeze neza.

Inzu abayobozi b'urusengero bahuriragamo, ibaga imeze neza inasa neza, kandi iyo nzu ibaga ikozwe neza ku buryo umuntu wese ayibonaga akabona ko ari abayobozi bayigiyemo.

Abayobozi b'urusengero baba ari beza ,iyo bafunze urusengero bashaka uburyo barufungura ,kugira ngo bongere basenge Imana ikomeze guhabwa icyubahiro

Gushyira abayobozi ku rusengero ni byiza, kubera ko abantu ntabwo bapfa kuhanyura uko babyiboneye kubera ko haba harizwe cyane, kandi haba hanakomeye.

Abayobozi ni beza, bakora umuhanda abantu baranyuramo bagiye ku rusengero, n'imodoka zikahanyura bagiye gusenga kugira ngo imana ikomeze ituririnde.

Abayobozi bo mu rusengero turabakunda, kubera ko n'iyo bagiye gusoma ijambo ry'imana, bagenda bitonze, basoma ijambo ry'Imana bitonze, bakarikubwira ukaryumva.

Aho babika impapuro mu rusengero haba hameze neza kandi hafite isuku, iyo umuntu agiye nko gusezerana bazandikaho, kandi ziba zisa neza zigira akamaro.

Iki kiliziya ni kiza gisa neza iyo abantu bakigezeho bumva bajya kugisengeramo, kandi iyo ugiye gusenga muri iki kiliziya bakwigisha ibintu bijyanye no kumva amategeko y'Imana.

Kubaka inzu ku muhanda ni byiza. Tubona amafaranga, abantu benshi bifuza gukodesha ayo mazu kubera aba ameze neza, kandi aba asa neza afite isuku.

Umunara ni mwiza turawukunda. Iyo umuntu yabuze amarezo aragenda agahagarara, maze akabona amarezo. Kandi umunara udufasha ibintu byinshi bijyanye n'iterambere.

Ikiraro kinyuraho abantu benshi, kinyuraho abayobozi bagiye ku rusengero, kandi icyo kiraro ni cyiza cyane n'abantu bakinyuraho, nta kibazo gifite niyo waba uri kukireba ubona ari cyiza cyane.

Kwishira hamwe ni byiza, iyo abantu bishyize hamwe bakoraga neza kandi bagakora bari kwihuta, iyo abantu bishije hamwe ntaki bananiraga kubera kojaga barunganirana.

Ahantu hari abantu benshi haba hameze neza, iyo umuntu ari kuvuga ijambo baramureba kandi bakumva ibyo ari kuvuga, kubera ko baba bamukumbuye cyane.

Umuhanda mwiza urimo imodoka, urimo moto, abantu bakanyura ku ruhande bakagenda ntakibazo, kandi unameze neza, urebye nta kibazo urimo, unameze neza gusa neza.

Moto turayikunda iyo umuntu afite amafaranga make atega moto kandi akagerayo vuba, kubera ko moto iba yihuta cyane, tukagerayo vuba.

Ritiko ni imodoka nziza, zikundwa n'abantu benshi, iyo umuntu aziteze zimugerezayo ku giciro kiza, kandi ashaka, kandi izo modoka zirihuta cyane.

Akarifani ni kamwe mu binyabiziga bidufasha cyane, iyo umuntu yasaruye imyaka myinshi, ahamagara akarifani kakabitwara, kakabigeza aho kagomba kubibegeza.

Ubwato ni bumwe mu bigendera mu mazi, iyo ugiye ahantu urambuka amazi ujya mu bwato bukagutwara, maze bukakurenza ayo mazi.

Imodoka ni nziza iradufasha. Iyo umuntu yasaruye imyaka myinshi, arayihamagara iyo modoka, maze agapakira muri iyo modoka, imodoka ikabigeza aho igomba kubigeza.

Akalifani karadufasha, iyo muntu agiye kurangurua akajyana akalifani arangura ari gushyiramo kandi akalifani iyo umuntu agiye kwimuka ashyiramo ibintu maze rero kakamwimura.

Utugare ni twiza dufasha abantu bafite ubumuga bw'ingingo, kujya ahantu bashaka kandi bumva bishimye nta kibazo, kubera ko bagenda nta kibazo.

Imodoka ni nziza kandi imodoka ni mwe mu binyabiziga byihuta, iyo ushaka kugera ahantu vuba ufata iyo modoka maze ikakujyana ikugezayo vuba.

Haba imodoka ni heza ndahakunda, iyo umuntu afite imodoka hakagira umuntu ugira ikibazo aramutwara akamuha amafaranga abyungukiramo kandi natwe tubyungukiramo.

Ahantu hasa neza abantu banyura, iyo bwije baragenda bakafata imodoka cyangwa moto, bakagenda bari kwihuta, kugira ngo batabatangirira mu nzira.

Imodoka ni nziza kandi turayikunda, iyo abantu bagiye kujya kwiga, baragenda bagatega imodoka, izo modoka zikabageza aho bagiye kwiga.

Imodoka ni nziza iradufasha iyo umuntu agiye ahantu ha kure afata imodoka agatanga amafaranga kandi yaba anatashye agafata imodoka. Uwo muntu agera mu rugo atananiwe.

Moto idufasha kugera ahantu vuba wihuse, kandi ukagenda ufite imbaraga, kubera ko uba utananiwe cyane, kandi moto iranungura ku muntu uyifite, iranamwungura.

AGakarita NI keza karadufasha. Iyo umuntu yabitse amafaranga ku gakarita bidufasha kubona imodoka vuba kandi tugatanga amafaranga make kubera tuba dufite agakarita kandi iyo umuntu adafite agarita yabitse amafaranga mu mufuka bashobora no kuyamwambura.

Amamodoka ni meza, aradufasha iyo tugiye ahantu ha kure turagenda akadutwara, tukagerayo vuba, tukayaha amafaranga, akunguka, kandi aduha umunyenga.

Moto n'imodoka biradufasha, iyo muntu agiye nko gusura ahantu, aragenda agafata moto cyangwa imodoka, maze ikamugeza aho ashaka, kandi agerayo atananiwe.

Motoni'modoka ni byiza, biradufasha. Iyo umuntu ashaka kugera ahantu vuba, afata imodoka cyangwa moto akagerayo vuba, kandi n'iyo umuntu arwaye agahamagara imodoka, imugeza ku bitaro vuba.

Muri gare haba harimo ibinyabiziga byinshi, hahurira n'abantu benshi bagiye gutega imodoka, motu, haba abagiye hafi n'abagiye kure, bibafasha kubona imodoka vuba.

Imodokadoka ni nziza ziradufasha; iyo ushaka kujya ahantu ha kure ujya mu modoka maze rero ugatanga amafaranga, maze bakakugeza aho ushaka kandi ugerayo vuba.

Imodoka na moto turabikunda kandi ni bimwe mubinyabiziga abantu bakunda gutega, kubera ko iyo ugiye gusura, uragendaga ugatega moto cyangwa imodoka, kandi ikugeza aho ushaka.

Siporo ni nziza turayikunda, iyo umuntu akora siporo abaho neza, kandi iyo wakoze siporo ugatsinda baguha igihembo cyiza kandi gishimishije.

Siporo ni nziza, iyo ukora siporo ubaho neza, ugira ubuzima bwiza, kandi iyo wakoze siporo ugatsinda baguha igihembo gishimishije kubera ko uba watsinze.

Gukina kiriketi neza bidufasha gutsinda kandi iyo umuntu yatsinze bamuha amafaranga akiteza imbere n'ababyeyi be, agateza imbere n'igihugu kubera ko aba ari umuhanga.

Ikibuga ni ahantu hahuriramo abantu benshi baje gukina umupira n'abaje gufana. Uyo umuntu yatsinze baramufana bakamuha n'amafaranga kandi bakamukunda akaniteza imbere.

Siporo ni nziza ikundwa n'abantu benshi, iyo umuntu akora siporo agira umubiri mwiza ,kandi agira n'imbaraga mu mubiri, kubera ko siporo ari ingenzi ku muntu.

Siporo ni nziza, ituma umuntu agira umubiri mwiza kandi umeze neza, kubera ko siporo ari ingenzi mu mubiri, ni ngombwa kugira ngo tuyikore, kandi tukayikora twishimye kugira ngo dutsinde.

Siporo ni nziza iradufasha, iyo umuntu akora siporo agira ku ubuzima bwiza, kandi ntabwo akunda kurwara kandi siporo ituma n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Siporo ni nziza, igira akamaro kanini cyane, iyo umuntu akora siporo ahora afite ubuzima bwiza, nta n'ubwo akunda kurwara, kubera akunda gukora siporo, kandi siporo ni ingirakamaro.

Ikibuga bakiniramo umupira ni cyiza, iyo uri gukinira mu kibuga haba harimo n'abantu benshi ku ruhande, iyo utsinze bagukomera amashyi kandi ubona n'amafaranga menshi kandi uba uri gukora na siporo, umera neza mu mubiri.

Amakurusi ni meza, kandi ni kimwe mu gukora siporo kandi iyo habaye amakurusi abamotari barabahagarika, n'abantu batwara imodoka bakabahagarika kubera ko ayo makurusi ba bayuha.

Siporo ni ikintu cyiza kigira umumaro mu mubiri, uyo umuntu akora siporo, intege ze ziba zirambuye, kandi siporo iduha n'amafaranga menshi.

Siporo ni nziza kandi siporo ni ingenzi, iyo ukora siporo ugira umubiri mwiza, kandi n'amaraso atembera neza mu mubiri, ugira n'amagufa akomeye kubera uba ukora siporo.

Abagore ,abagabo bajya gukora siporo ,kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kandi siporo ikundwa n'abantu benshi, niyo watsinze muri siporo baguha amafaranga.

Siporo ni nziza turayikunda. Noneho iyo habaye amakurusi, abantu benshi bajya kuyareba, kandi iyo batsinze barabahemba.

Baro ni bimwe mu bikoresho bidufasha gukora siporo neza, kandi imibiri yacu ikaba neza. Iyo wakinnye umupira wa vole, uba uri gukora siporo neza, kandi ni buryo bwemewe.

Siporo ni nziza turayikunda, iyo umuntu akora siporo, agira ubuzima bwiza, ntabwo akunda kurwara, kandi amaraso agatembera neza, nk'umubiri iyo umuntu ari gukora siporo.

Siporo ni nziza ikundwa n'abantu benshi, iyo umuntu akora siporo, agira ubuzima bwiza, kandi agira nu'mubiri umeze neza kubera aba yarakoze siporo, kandi siporo ituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Siporo ni nziza, iyo umuntu akora siporo nta nubwo yagwa mu mazi ngo arohame kubera ko aba yarabimenyereye, kandi siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza akagira n'umubiri umeze neza.

Gukina umupira ni byiza, iyo uri gukina umupira w'amaguru, iyo utsinze baguha amafaranga kandi ukaniteza imbere, mu buryo bw'urwego rwo hejuru.

Siporo ni nziza， kubera ko， iyo ukora siporo ufite ibiro byinshi， ibiro biragabanyuka，kandi siporo ituma amaraso atembera neza mu mubiri， ugira n’ubuzima bwiza.

Siporo ni nziza turayikunda iyo umuntu akora siporo nta shobora kurwara imitsi kubera ko iyo umuntu ari gukora siporo cyangwa ari gutwara igare aragenda imitsi ikagenda iri kuba neza nta nubwo ashobora kurwara imitsi.

Iyo uri gukina umupira wa vore, uba uri gukora siporo, kandi iyo uwatsinze baguha amafaranga, ukaniteza imbere, kandi uba uri kugira umubiri mwiza.

Siporo ni ikintu cyiza kandi gikundwaga nabantu benshi, iyo umuntu ajyaga muri siporo aba afite umubiri mwiza kandi siporo ibaga ikenewe kuri buri muntu wese.

Gutwara igare ni byiza, uba uri gukora siporo, kandi iyo watsinze baguha amafaranga, kandi n'abantu benshi baragukunda kubera ko uba watsinze.

ikibuga abantu benshi bahuriramo bagiye gukora siporo, kiba gisa neza, kandi haba hariho igikoresho bakoresha bari gukina umupira.

Siporo ni nziza, ituma umuntu agira umubiri mwiza kandi agira n’amagufa akomeye, kubera ko aba yamenyeye siporo. N'iyo aguye hasi, ntabwo ahita avunika.

Gukina umupira ni byiza, iyo uri gukina umupira wa vore biguha amafaranga, kandi uba uri no gukora na siporo, uba umeze neza mu mubiri, kandi iyo watsinze baguha amafaranga.

Siporo ni nziza mu mubiri, iyo ukora siporo ugira umubiri mwiza kandi amaraso agatembera neza, kandi nta nubwo ukunda kurwara kuberako uba warakoze siporo.

Siporo ni nziza turayikunda, iyo habaye siporo tujya kureba, kandi mu kibuga haba hari n'abicaye bari gufana, iyo batsinze barabafana bakishima.

Siporo ni nziza, iyo umuntu akora siporo, agira umubiri umeze neza, kandi amaraso atembera neza mu mubiri iyo uri gukora siporo, kandi ntabwo akunda kurwara.

Siporo ni nziza, iradufasha, iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza, kandi umubiri wabo uba umeze neza kubera aba yakoze siporo, n'amaraso atembera neza mu mubiri.

Siporo ni nziza kandi ni ingenzi kuri buri muntu wese. Iyo umuntu akora siporo, ahora ameze neza afite umubiri umeze neza, kandi buri wese aba agomba kuyikora, kubera ko siporo ari nziza.

Gukora siporo ni byiza tunarabikunda uyu muntu akora siporo ahorana umubiri mwiza, kandi iyo umuntu akora siporo aba ameze neza kandi siporo ni ikintu c' ingenzi.

Umuhanda ugira akamaro kanini cyane. Iyo umuntu afite imodoka anyura muri uwo muhanda. Kandi n'iyo waba udafite imodoka, ugenda muri uwo muhanda ntabwo bapfa kukwambura.

Umuhonda ni mwiza uradufasha, iyo tugiye ku Kagari tugenda nta mabuye ari dupfumura, kandi ntabwo dusitara ku mabuye ngo tuzane ibisebe, ahubwo tuba turi kugenda neza.

Umuhanda ni mwiza uradufasha, iyo muntu ashaka kujya ahantu agafata moto, agerayo vuba kubera ko haba hari umuhanda mwiza, kandi umuhanda ugera aho ugiye vuba.

Iyo uri kugenda mu muhanda uragenda umeze neza, wagera ku musozi ukawuzamuka, wananirwa ukicara. Ukongera ugahaguruka ukongera ugakomeza ukawuzamuka mpaka uwubuze.